Umwana wambaye agapira k'umutuku n'ijipo y'ubururu, aseka ateze igikombe ku ivomero avoma amazi, irindi vomero riri kumena amazi, iruhande rwe hari igihuru.

Umwana wambaye impuzankanto y'ishuri isa n'ubururu n'agapira k'umweru, akaraba ibiganza n'amazi, imbere ye hari kandagira ukarabe.

Abantu bambaye imyambaro y'ubwoko butandukanye bahagaze bafata ifoto y'urwibutso baseka bareba imbere inyuma hari inyubako hirya hari igiti cy'umutsindo cyegeranye n'indi nyubako.

Umugore wambaye ibitenge ateruye umwana uri kurira, imbere hari umugabo wambaye itaburiya isa n'umweru igaragara nk' impuzankano y'abaganga apfuka umutwe w'umwana.

Abantu bambaye imipira isa n'umweru n'ingofero zisa n'umweru n'abandi bambaye imipira isa ubururu n'ingofero z'umweru, basa nk'abafata ifoto y'urwibutso, bafite icyapa cyanditseho ''umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri'' imbere yaho hari igiti.

Umugore uhagaze ari kumwe n'abana bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye, iruhande rw'ivomero riteretseho amabasi n'amajerekani.

Umugabo wunamye yambaye ipantaro isa n'umukara n'ishati isa n'ubururu, akaraba kuri kandagira ukarabe, iruhande rwe hari ururabo, kandagira ukarabe iteretse mu mbuga.

Abantu bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, harimo n'abana n'abagore n'abagabo hari ivomero bateretseho amajerekani atatu.

Abantu bicaye abandi bahagaze bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye, umwana uhagaze imbere y'umuntu wambaye itaburiya igaragara nk'impuzankano y'abaganga.

Abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi, bisa nk'aho bari mu nama, iruhande rwabo hari amadapo abiri.

Umugore wambaye igitenge n'umucyecuru wambaye igitenge bari ku ivomero hateretse amajerekani menshi, iruhande rwabo hari umwana, inyuma yabo hari insina n'ibiti by'isombe.

Umwana wambaye ikabutura n'ishati isa n'icyatsi, akaraba ibiganza ari kureba imbere, iruhande rwe hari indobo y'ubururu, inyuma y'ivomero hari indi ndobo isa n'ubururu inyuma ye hari ibiti.

Umwana wambaye ikabutura isa n'umutuku n'agapira, ateze ibiganza ku ivomero anywa amazi, hasi hateretse indobo, hirya hari amazu ndetse n'ibiti.

Umwana uryamye ku gitanda afasheshe igitenge, iruhande rwe yicaye umubye witeza igitambaro gisa n'ubururu, imbere yabo hari abantu bambaye amataburiya agaragara impuzankano y'abaganga bita kuri uwo mwana.

Umuntu wambaye imyambaro biri mu mabara atandukanye, asutamye imbere y'abana abagaburira bambaye imyambaro iri mu ibara risa, inyuma ye hahagaze abantu bambaye imyambaro itandukanye.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bafite ibipapuro ku bibero byabo bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye, ku gikuta hometse impapuro zisa n'umweru zanditseho amagambo, inyuma hari ibitambaro by'izuba bisa n'umuhondo.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri bahagaze hagati yabo hari umwarimu, imbere yabo hahagaze abantu bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye, bakikijwe n'ibitambaro bisa umweru.

Icyumba kigaragara nk'ikinama cyicayemo abantu bambaye imyambaro iri mabara atandukanye, iruhande rwabo hari utumeza, bicaye ku ntebe zisa n'umukara.

Abagore babiri bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye bateruye umufuka bahereza umugabo wambaye imyenda iri mu mabara atandukanye ahagaze hejuru yindi mifuka.

Abantu bambaye imipira isa n'ubururu yambaye n'ingofero zisa n'umweru bafata ifoto y'urwibutso bazamuye ibiganza byabo inyuma yabo hari icyapa gisa n'umweru hari n' umuryango.

Abantu bicaye ku ntebe zisa n'umweru, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ipantaro isa n'umukara n'ishati y'umweru, bafite indangururamajwi mu kiganza.

Abantu bambaye amataburiya asa nk'aho agaragara nk'impuzankano y'abaganga, bambaye udupfukamunwa, bapina umugabo wicaye ku ntebe, bareba mu kanwa.

Umugore wambaye igitenge kiri mu mabara atandukanye n'ishati, wikoreye indobo isa n'umutuku n'indi mu biganza isa n'umuhondo.

Abantu bicaye bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye; hagati yabo hari umugabo wambaye itaburiya isa n'umweru; bigaragaza nk'impuzankano z'abaganga

Inyubako ebyiri zubakishije amatafari zifite imiryango isa n'ubururu, iruhande rwayo hahagaze umugabo wambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu bicaye ku meza agiye atandukanye, ameza asa n'umukara imbere y'aho bateretse amacupa y'amazi, ndetse n'impapuro n'ibikapu bareba imbere.

Abana babiri bambaye imyambaro iri mabara atandukanye bafatanye indobo isa n'icyatsi imbere y'ivomero, inyuma yabo hari inzu isakaje ibyatsi hirya hari ibiti.

Abana bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Umwe amanitse urutoki. Inyuma yabo hari ikibaho kiriho impapuro.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'ik'inama, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi, bicaye ku ntebe zisa n'umukara, hari ibitambaro by'izuba bisa n'umweru ku madirishya.

Abantu bicaye bateruye abana, abandi bana bicaye ku ntebe z'amabara atandukanye, imbere yabo hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, itaburiya igaragara nk'impuzankano y'abaganga.

Umugore wicaye hasi, yambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Ateruye umwana, iruhande rwe hicaye undi mwana. Imbere yabo hateretse inkoko iriho agasahani gasa n'umutuku.

Umugabo wicaye hasi ku gitenge, akenyeye igitenge yifashe mu mutwe, amaguru ye aziritse, iruhande rwe harambuye ikindi gitenge, hirya hateretse ibuye n'agatambaro k'icyatsi.

Umugore wambaye ishati y'igitenge, yiteze ikindi mu mutwe arimo aseka, afite inyinya hasi n'iyo hejuru inyuma ye hari abantu, harimo uwambaye ishati isa n'umweru.

Abantu bicaye mu ntebe z'amabara asa n'umukara, imbere yabo hari abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye imbere yabo hari ameza hafi ku gitambaro gisa n'umweru.

Umugabo wicaye hasi yambaye agapira gasa n'umutuku n'ikabutura, yambaye amapingu bamushyizeho idupapuro turiho abantu, inyuma ye hahagaze abantu.

Abantu basa nk'abafata ifoto y'urwibutso bambaye imipira isa n'ubururu isa, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru bafata ifoto iruhande rw'inyubako.

Icyumba cy'inama hicayemo abantu bambaye imyambaro itandukanye basa nkabarikumva ibiganiro. Inyuma hari amadirishya, kugikuta hariho ekara yerekana amashusho.

Umuntu wicaye mu ntebe yazamuye akaguru yambaye ipantaro isa n'ubururu yayihinye n'isengeri isa n'umukara n'umuringa mu ijosi afite uturinga ku kaboko inyuma ye hari igiti.

Abantu bicaye ku ntebe bambaye imipira isa n'icyatsi, imbere yabo hateretse imiti y'amenyo, inyuma yabo hahagaze abantu bambaye imipira isa n'umweru n'udupfukamunwa babareba mu kanwa.

Umwana wambaye agapira k'umuhondo wambaye n'iherena yasamye bashyize akuma mu kanwa basa nk'abamupima, gafatishijwe ibiganza byambaye ibikoresho by'isuku by'ibiganza.

Umuntu wambaye umupira usa n'umweru aseka yireba mu mirori afite akadodo imbere yamenyo ye gasa n'umweru afite imisatsi iboshye.

Umukobwa usutse intweri, arimo aseka imbere ye hari amenyo menshi, bafashe iryinyo bari kuripima imbere y'amenyo ye, uwo muntu yambaye imyambaro y'isuku ku biganza.

Umukecuru wicaye, afite ikirahuri cy'amazi mu kiganza imbere kumezaza hateretse udukarito tw'imiti iruhande hahagaze umukobwa wambaye impuzankano zisa n'ubururu z'abita ku barwayi arimo amuha imiti.

Umugabo wambaye ishati isa nu'ubururu n'agapfukamunwa yicaye ku ntebe, imbere ye hasutamye umugore wambaye umwambaro usa n'icyatsi ugaragara nk'impuzankano y'abita ku barwayi n'agapfukamunwa amufungira ibipesu by'ishati.

Umusaza usa nkuhaguruka afashwe n'abantu babiri, bambaye imyambaro iri mu amabara atandukanye, inyuma yabo hari igitanda gisasheho ibitambaro bisa n'umweru.

Umusaza wicaye mu gatebe k'ababana n'ubumuga yambaye imyambaro isa n'umuhondo hejuru hasi ipantaro isa n'ubururu, iruhande rwe hicaye umwana wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'ubururu baseka.

Umukecuru wicaye mu kagare yambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye imbere hicaye umuntu wambaye imyenda isa n'ubururu bwijimye igaragaramo imyambaro y'abita ku barwayi harimo.

Umukecuru wicaye ku gitanda yambaye umupira usa n'umukara, ufite umusatsi usa n'umweru, ufite ikirahure cy'amazi mu biganza apfutse ku mazuru, yambaye amarinete n'amaherena.

Umusaza n'umukecuru, n'umugore n'umugabo, n'akana gatoya, bafata ifoto y'urwibutso baseka. Inyuma yabo hari ibiti ndetse n'imodoka, ubona ko bishimye bari gufata ifoto y'umuryango.

Abantu baricaye imbere yabo hari ameza ateretseho icupa risa umukara, bafite terefone igendanwa mu kiganza bari kuyirebamo.

Umugabo wicaye imbere y'ameza ateretseho imbuto; iruhande rwe hahagaze umugore amusukira umutobe, inyuma yabo hari akabati.

Abantu bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye, baseka basa nk'aho bafata ifoto bahagaze mu murima, bamanitse ibiganza hejuru bakikijwe n'ibyatsi.

Umuryango, umuryango w'umugore n'umugabo n'abana babiri, iruhande rwabo hari umusaza n'umukecuru baseka bishimye, bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye.

Umugabo wicaye mu kagare wambaye imyenda iri mu mabara asa, wambaye rinete afite imvi, hari umukobwa uri kumusunika wambaye agapira gasa n'ubururu bishimye, baseka.

Umugabo wambaye umupira usa n'ubururu, ikabutura y'umukara, afashwe n'umuntu wambaye imyenda y'umukara igaragara nk'impuzankano y'abita ku barwayi arimo amutoza gutambuka.

Abagabo babiri bambaye amakote bicaye, imbere yabo hateretse ameza, ateretseho amacupa n'indangururamajwi, basa nk'abatanga ibiganiro.

Icyumba cy'inama kirimo abantu b'ingeri zitandukanye, bicaye ku ntebe zisa n'umutuku imbere yabo hicaye abantu bafite indangururamajwi, barimo batanga ikiganiro.

Umugabo n'umugore bafite ibihembo mu ntoki basa nk'abafata ifoto y'urwibutso inyuma yabo hari intebe zisa n'umweru, iruhande rwabo hari ameza ateretseho ibirahure birimo amazi.

Umugore wicaye ku ntebe yambaye agapfukamunwa, yasutse imisatsi inweri, bamutera urushinge; iruhande rwe hari umuntu wambaye agapfukamunwa n'imyambaro y'abita ku barwayi.

Abantu basa nk'abafata ifoto, bambaye imyambaro y'ubwirinzi n'udupfukamunwa dusa ubururu, imyambaro iri gusa umweru, inyuma yabo hahagaze umugabo, wambaye umupira uri mu ibara rya move n'agapfukamunwa.

Umuhanda urimo abantu b'ingeri zitandukanye, hakaba bari inyubako isakaje amafati asa n'umutuku, harimo n'icyapa hagati mu muhanda, inyuma y'ayo mazu hari imisozi.

Icyumba cya siporo kirimo ibikoresho bitandukanye; harimo ekara zimanitse kukuta, hanze yaho hagaragara ibiti bisa nicyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kiririmo ibitanda bitandukanye bisa n'umweruru n'inzitiramibu zisa n'umweru n'ibitambaro bikingira izuba bisa n'ubururu n'utubati dusa umweru.

Abantu bambaye imyambaro itandukanye basa nk'aho bafata ifoto y'urwibutso inyuma yabo hari inyubako ifite ibirahuri, hejuru hariho icyapa cyanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye icyapa gisa n'umweru.

Inyubako igeretse gatatu, isakarishije amabati asa n'umukara, imbere yayo hari imodoka ku gikuta handitseho amagambo.

Inzu icuruza imiti harimo abantu bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye, umugore uhetse umwana n'akandi kana gato n'abandi bantu, imiti y'ubwoko butandukanye n'akabati k'ibirahure.

Inyubako yubatse igeretse, imbere yayo hateye ibiti ndetse n'ubusitani, hagaragara abantu bambaye impuzankano y'abita ku barwayi, yanditseho Nyarugenge.

Icyumba kigaragara nko m'uruganiro kirimo intebe ziri mu mabara atandukanye izindi zikikije ameza. Ku kibambasi hariho ibishushanyo bitandukanye inyuma hari ikara.

Icyumba kibitsemo imiti y'ubwoko butandukanye, hejuru kumeza hateretseho mudasobwa.

Icyumba kigaragara nk'ivuriro kirimo ibitanda biri mu mabara y'ubururu, ndetse n'ibitambaro bikingira izuba biri mw’ibara ry'umweru, n'ibikoresho byo kwa muganga bindi.

Umugabo wicaye munsi y'igiti yambaye ishati isa n'ubururu n'ipantaro isa n'umukara, iruhande rwe hari ibyatsi ahanitse, yubakishije amatafari ageretse inshuro ebyiri.

Aho bacururiza amataratara hateretse intebe zisa n'umukara, imbere y'aho ayo mataratara amanitse, hejuru hamanitse ibishushanyo by'abantu bambaye amataratara ndetse no hirya yaho.

Inyubako igaragara nk'ivuriro iri imbere yaho hahagaze umugore uhetse umwana wambaye akagoferori kari mu ibara ndetse gatukura, imbere afite agatambaro gasa n'umweru.

Inyubako ikikijwe n'ibigega bisa n'umukara, iruhande rwayo hari indabo ziri mu mabara asa n'umuhondo, n'ubusitani busa n'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitanga umwuka n'umuganga wambaye impuzankano z'abaganga isa n'umweru ndetse n'icyatsi n'umuntu uryamye ku gitanda.

Abantu bambaye amataburiya asa n'umweru agaragara nk'impuzankano y'abaganga, bafite ibikoresho bari gupimisha umwe asuka abandi bareba uko abigenza, imbere yabo hateretse icupa risa nk'iry'amavuta.

Inyubako yubatse mu buryo bw'ikiziga, iruhande rwayo hari umuhanda ukikijwe n'ubusitani, inyuma yayo hari imisozi ndetse n'andi mazu.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda bisasheho ibitambaro by'umweru ndetse n'ubururu, hejuru yabo hamanitse inzitiramibu, ibyo bitanda biryamyeho abarwayi.

Umugore uryamye kwa muganga ku gitanda gisasheho amashusho asa n'umweru yiseguye umusego usa n'umweru yoroshe ikiringiti kiri mu ibara ry'icyatsi iruhande rwe hari imashini zo kwa muganga.

Inyubako isize amarange y'umweru, isakaje amabati asa n'ubururu, imbere y'imiryango hari ameza n'icyapa, hahagaze umugabo wambaye impuzankano, y'abaganga.

Abantu bambaye imyambaro iri mu mabara asa hejuru umweru hasi ubururu ndetse n'umukara bafite udutebo mu ntoki turimo udusupanete batambuka.

Inyubako isize amarangi asa n'umweru, isakaje amabati asa n'ubururu, iruhande rwayo ikikijwe n'ibiti, yanditseho ngo inzu y'ababyeyi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda gisasheho amashuka asa n'ubururu n'umusego w'umweru ku mutwe, intebe isa n'umukara ku gikuta hashushanyijeho ibishushanyo byaka.

Inyubako ikikijwe n'ubusitani, harimo igiti hagati, iruhande rwayo hari ikigega gisa n'umukara, isakaje amabati asa n'ubururu, inyuma yaho hari izindi nyubako.

Umuntu wambaye ipantaro isa n'ubururu wicaye ku ntebe zisa n'umweru ufashe akaguru yakamanitse, afite ibintu bikonjesha ari gukanda ku kaguru kiwe yambaye ipantaro.

Umuntu wambaye ikabutura isa n'umukaraka n'agapiura k'umukara, wamanitse akaguru kamwe akandi kari hasi, asa nk'ukora imyitozo ngororamubiri, ahantu hubakishije ibirahuri hanze hari indabo ndetse n'imodoka.

Umugore wambaye ibitenge wicaye ku gitanda hamwe n'umwana wambaye ikanzu isa n'umweru useka, ku gitanda harambuyeho igitenge hirya hari abantu baryamye ku gitanda.

Umuntu uryamye wambaye ipantaro isa n'umukara amanitse akagura, undi muntu wambaye imyenda isa n'ubururu igaragara nk'impuzankano ya bita ku barwayi arimo amukanda akaguru.

Umuhungu wicaye yambaye ikabutura isa n'umukara n'agasengeri gasa umukara, ngira ngo ari kunywa amazi, iruhande rwe hari umukobwa wambaye ikabutura isa umukara na'agasengeri gatoya gasa na shokora, hasi hari ibikapu bisa umukara.

Umuntu wicaye wambaye ikabutura n'umupira akaguru kamwe kambaye urukweto n'isogisi akandi ntabyo kambaye, iruhande rwe hari amambayesabururu igaragara nk'iyaabita ku barwayi amushyiraho igipfuku kaguru katambaye urukweto.

Umuntu ufite igitambaro cy'amazi ku rutugu, afite icupa mu kiganza risa n'umweru rifite n'umufundikizo usa ubururu, ari kunywa amazi.

Umuntu uryamye akaguru kamwe kambaye urukweto akandi katambaye urukweto bagashyiraho igipfuko, bigaragara ko yavunitse imbere hari umugabo umushyiraho igipfuko.

Umuntu wambaye imyambaro ifite amabara asa n'inkweto zisa umweru, yicaye ahinnye akaguru kamwe akandi akarambuye akojejeho ibiganza akora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye imyenda isa n'umukara, ikabutura n'isengeri, usutse inweri, afite ubwanwa burebure. Arimo akora imyitozo ngorora umubiri, iruhande rwe hari intebe.

Umwana wicaye, wambaye agapira k'ubururu ateruwe n'umubyeyi wambaye imyenda y'amabara atandukanye, imbere hicaye umugabo wambaye itaburiya isa n'umweru igaragara nk'impuzankano y'abaganga amurika mu kanwa k'umwana iruhande rwabo hahagaze abandi bantu bambaye udupfukamunwa.

Akagare k'ababana n'ubumuga, gasa umukara aho bicara n'aho begama, amapine yako ari mu ibara risa umukara, utwuma two ku ruhande dusa ubururu.

Umuntu uryamye yambaye agakabutura gasa umukara, akaguru ke kamwe k'ibumoso kambaye urukweto rusa n'icyatsi, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye imyenda isa n'umukara arimo akanda akaguru.

Abantu bambaye imipira isa n'icyatsi abandi bambaye amakote asa n'umukara, bahagaze mu murima w'ibikakarubamba inyuma yuwo murima hakikijwe n'ibiti.

Umurima uhinzemo ibyatsi biteye kumurongo imbere hari abantu bambaye imipira isa mu mabara atandukanye umweru ndetse n'icyatsi, imbere yabo hari imodoka zihinga imirima.

Agasekuru gateretse hagati karimo n'umuhini wako, iruhande rwako kazengurutswe n'ibyatsi biri mu bwoko butandukanye bigaragara nk'aho ari imiti ya kinyarwanda.